Abakora umwuga w'ubuhinzi basobanurirwa ko ari ingenzi gukurikirana ibihingwa byabo babitera umuti igihe byahuye n'indwara, ni byiza ko tugomba gukurikirana ibihingwa byacu kugira ngo tubashe kumenya uburyo bihagaze bizaduhe n'umusaruro mwiza bityo tubashe kubona amafaranga menshi kandi tubashe no gukuramo inyungu zigiye zitandukanye.

Abakora ubuhinzi bw'ingano bashishikarizwa kwita ku gihingwa cyabo cy'ingano kubera ko ari ingenzi mu buzima, igihingwa cy'ingano ni igihingwa kigira amafaranga menshi kandi kikaba kinadufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi, kikaba kikorwamo ibintu byinshi bitandukanye kivamo amakaroni ndetse kikaba gikorwamo n'imigati. Ni byiza kugisigasira tugitera umuti igihe cyahuye n'indwara kugira ngo tubashe gukomeza kugikoramo ibintu byinshi bitandukanye.

Abakora ubuhinzi bw'ibigori bashishikarizwa kubitera umuti igihe byazanye udukoko mu mitwe kugira ngo bazabashe kubona umusaruro uhambaye, ni byiza ko tugomba gukurikirana ibihingwa byacu, kugira ngo bibashe kuduha umusaruro mwiza, ndetse bibashe no kuduha amafaranga igihe twabisaruye.

Abakora ubucuruzi bw'amafi bavuga ko ari ubucuruzi bwiza kubera ko bunguka dore ko amafi akunswa n'abantu benshi bagiye batandukanye, ni byiza ko tugomba kuyorora ndetse tukanayagurisha bityo tukanayarya kubera ko adufitiye akamaro mu buzima bwacu.

Abakora umwuga w'uburobyi bavuga ko ari umwuga mwiza kubera ko ubabeshejeho kandi ukaba ubatunze, igihe babonye amafi bavuga ko ari ingenzi kuko bayagurisha bakabona amafaranga bakayakemura ibibazo bigiye bitandukanye kandi na bo bakaba bayarya; ni byiza ko rero ko tugomba kugana umwuga w'ubworozi bw'amafi kugira ngo tubashe kubona amafaranga bityo tubashe kubaho neza mu buzima bwiza.

Igihingwa cya kawa ni igihingwa kigira amafaranga menshi kandi kikaba kigira n'umusaruro utubutse. Ni byiza ko tugomba gushishikariza abaturage kugihinga, kugira ngo babashe kwikura mu bukene babashe no kubona amafaranga menshi ababeshaho mu buzima bwabo bwa buri munsi. Ni byiza rero ko dukomeza kugihinga kuko kivamo n'icyayi cyo kunywa ndetse kigakurwamo n'ibintu byinshi bigiye bitandukanye.

Abakora ubuhinzi bw'icyayi basobanura ko ari ingenzi kubera ko bibafasha kubona amafaranga bakoresha mu buzima bwa buri munsi ndetse bagakemura ibibazo bigiye bitandukanye kubera ubuhinzi bw'icyayi bakomeza basobanura ko ari byiza kandi bakomeza gushishikariza abaturage bagenzi babo guhinga igihingwa cy'icyayi kugira ngo babashe kubona umusaruro utubutse, babashe no kubona amafaranga meza kandi menshi.

Igihingwa cy'ikawa ni igihingwa kigira umusaruro utubutse ndetse kikaba gitanga n'amafaranga menshi, ni byiza ko dushishikariza abahinzi guhinga igihingwa cy'ikawa kugira ngo babashe kwizamura bikure mu bukene ndetse babashe no kubona amafaranga menshi atubutse bakoresha byinshi bitandukanye mu buzima bwabo.

Igihingwa cy'ikawa ni igihingwa kigira amafaranga kandi kikaba kigira n'umusaruro mwinshi utubutse, abahinzi rero bashishikarizwa guhinga kino gihingwa kugira ngo babashe kwikura mu bukene, babashe no kugira ubuzima bwiza dore ko kivamo n'icyo kunywa icyo bita icyayi cy'ikawa.

Abakora umwuga w'ubuhinzi basobanura ko ari byiza kwishyira hamwe bagakorera hamwe kugira ngo babashe kubona umusaruro mwiza, ni byiza ko natwe bahinzi dukorera hamwe kugira ngo tubashe kubona umusaruro mwinshi kandi uhambaye, bityo ubuzima bwacu bubashe kumera neza bubona byinshi bitandukanye byavuye mu gukorera hamwe.

Abakora umwuga w'ubuhinzi bw'icyayi basobanura ko nubwo kugihinga bitoroshye ariko ari igihingwa kibaha amafaranga babasha kuba bakemu ibibazo bahura nabyo mu buzima bwa buri munsi, bashishikariza abahinzi bose kuba babashishikarira guhinga igihingwa cy'icyayi kugira ngo babashe kubona umusaruro ndetse babashe no kubona amafaranga menshi atubutse.

Ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuhinzi gishishikariza abahinzi guhinga igihingwa cy'ikawa kubera ko ari igihingwa cyiza kandi kigira amafaranga menshi, ni byiza ko iki gihingwa tugihinga kugira ngo tubashe kubona amafaranga menshi atubeshaho mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Abahinzi bakora umwuga wo guhinga icyayi, basobanura ko ari byiza kuko bibafasha kubona amafaranga abatunze mu buzima bwabo bwa buri munsi. Ni byiza ko buri muntu wese utuye ahantu hashobora kwera icyayi, agomba gukora uyu mushinga kubera ko ari byiza bitanga amafaranga ndetse bikanagirira igihugu cyacu akamaro.

Abakora umwuga w'ubuhinzi bw'icyayi basobanura ko ari byiza kubera ko bibafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi, kikaba kibahereza amafaranga menshi kandi bakoresha bakemu ibibazo byabo bya buri munsi, bakomeza bashishikariza buri muhinzi wese ko yagomba guhinga igihingwa cy'icyayi kugira abashe gukemura byinshi bitandukanye, maze bibashe no kumugirira akamaro mu buzima bw'iwe.

Igihingwa cy'uburu ni igihingwa kigira amafaranga kandi tukaba tugikoresha mu buzima bwacu bwa buri munsi, uburo dushobora kubukuramo igikoma cyo kunywa, tukabukuramo umusururu wo kunywa; ni byiza rero ko tugomba gushishikariza abaturage kugihinga kugira ngo tubashe kubona byinshi bitandukanye biva muri iki gihingwa.

Igihingwa cy'umuceri, ni igihingwa kivuna kugihinga ariko kikaba kigira umusaruro mwinshi kandi utubutse kandi kikaba kinaryoha, ni byiza ko tugomba kuvunika kugira ngo tubashe kugera ku musaruro utubutse ndetse tubashe no kubona amafaranga menshi tubasha gukemura ibibazo byacu bya buri munsi. Buri muhinzi wese arashishikarizwa kuba yahinga umuceri kubera ko ari ingenzi kandi ukaba ugira umusaruro mwinshi utubutse.

Abakora umwuga w'ubuhinzi bw'umuceri basobanura ko ari ingenzi kubanza gutunganya neza aho ugiye gutera igihingwa cy'umuceri kugirango ngo uzabashe kubona umusaruro uhagije, ni byiza ko tugomba gutegura umurima maze tukawuyoboreramo amazi kugira ngo tubashe kubona umusaruro uhagije igihe duhinze igihingwa cy'umuceri.

Farumasi zicuruza imiti y'amatungo, zikomeza gusobanurirwa ko ari byiza kandi ari ingenzi kugira imiti iyo ari yo yose y'amatungo, ibasha kuba yakenerwa igihe ahuye n'uburwayi. Ni byiza ko aborozi bagomba kugana farumasi z'amatungo igihe bafite itungo rirwaye, kugira ngo babashe gusigasira ubuzima bwaryo, maze ribashe kubaho neza ribashe no kuguha amafaranga mu buryo bwiza.

Abakora umwuga w'ubuhinzi bw'umuceri basobanura ko ari byiza gukorera umuceri neza bawubagara, bawukuramo ibyatsi bigiye bitandukanye byawubuza gukura neza kugira ngo umusaruro ubashe kwiyongera, ni byiza rero ko abahinzi bose b'umuceri bagomba kumenya agaciro k'umuceri ndetse bakabasha no kumenya ko bagomba kuwugurisha ukavamo amafaranga bikaba intandaro yo kuwukorera neza.

Abahinzi bakora umwuga w'ubuhinzi bw'ingano basobanura ko igihingwa cy'ingano ari igihingwa kiza kubera ko kibahaha umusaruro mwinshi kandi kikaba kinabaha amafaranga, ni byiza ko tugomba guhinga igihingwa cy'ingano kugira ngo tubashe kubona amafaranga dukeneye mu buzima bityo tubashe kubaho neza tudasabiriza.

Abahinzi bashishikarizwa kuba bagira ibikoresho bitandukanye byabafasha kuzamura imizigo yabo igihe bavuye guhinga, ni byiza rero uko tugomba gushaka ibikoresho bidufasha kuzamura imizigo yacu kugira ngo tubashe korohereza ubuzima bwacu biryo bubashe kugenda neza.

Abayobozi bashinzwe iby'ubuhinzi n'ingenzi ko bagomba kwegera abaturage kugira ngo babashe kubasobanurira byinshi bitandukanye byerekeranye n'ubuhinzi, natwe abaturage ni byiza ko tugomba kwegera abayobozi bacu kugira babashe kuduha amahugurwa agiye atandukanye kugira ngo ubuhinzi bwacu bubashe kuzamuka bunatugirire akamaro.

Aborozi ba Nyagatare basobanura ko ubworozi bw'inka ari ingenzi mu buzima bwabo mu buryo butandukanye, bavuga ko igihe bagurishije ifumbire z'inka zabo babona amafaranga ndetse n'igihe bagurishije amata bakabona amafaranga ababeshaho mu buzima bwa buri munsi.

Abakora akazi k'ubuhinzi bw'umuceri, basobanura ko ari ingenzi kubera ko bibafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi. Umuceri barawurya ndetse bakanawukuramo amafaranga, bakabasha gukemura ibibazo bitandukanye bahura nabyo mu buzima. Ni byiza ko tugomba guhinga umuceri, kugira ngo tubashe kubona imibereho yacu myiza ya buri munsi.

Abakora umwuga w'ubuhinzi bw'ibigori, bavuga ko ari byiza kubera ko bibafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi ndetse bikaba binabafasha kubona ibyo kurya. Barashishikariza buri umwe wese ko yagana ubuhinzi kubera ko ari ingenzi kuko bibaha amafaranga yo gukemura ibibazo byabo bya buri munsi ndetse bagakomeza no kugira ubuzima bwiza.

Igihingwa cy'ibirayi ni igihingwa kigira umusaruro mu buryo bugiye butandukanye: turakirya, tukagikuramo sote, tukagikoramo amasambusa ndetse tukanakigurisha tukabona amafaranga dukemuza ibibazo bya buri munsi tuba dufite mu buzima; ni byiza ko tugomba gushishikarizwa guhinga kino gihingwa kugira ngo tubashe kubaho neza bityo tubashe no gusagurira isoko, tubona amafaranga yo gukemura ibibazo duhura na byo mu buzima bwa buri munsi.

Igihingwa cy'imyumbati, ni igihingwa kiribwa mu buryo butandukanye ndetse kikaba kinanadufitiye akamaro mu buzima bwacu. Ni byiza rero ko tugihinga, kugira ngo tubashe kukiryamo ubugari, tubashe kuryamo n'imyumbati, tubashe no kubishora ku isoko tubone amafaranga atubeshejeho mu buzima bwacu bwa buri munsi. Buri mutura rwanda wese arashishikarizwa guhinga imyumbati, kubera ko ari ingenzi mu buzima bwacu.

Ni ingenzi guhinga igihingwa k'ibirayi kubera ko gikenerwa n'abantu benshi ku isoko. Ni byiza ko tugomba kugihinga kuko kivamo ibintu byinshi bigiye bitandukanye: nko kubirya bitetse, kubiryamo amasambusa, kubitekamo ifiriti ndetse no kubikuramo soti. Ni byiza rero ko kino gihingwa tugomba kugihinga kugira ngo tubashe kubona amafaranga. Tubashe no kubona umusaruro mwinshi ugiye utandukanye, uvuye kuri icyo gihingwa k'ibirayi.

Iikigo cy'igihugu gishinzwe ubuhinzi gishishikariza abahinzi guhinga ibihingwa byose kuko ari ingenzi. Twavuga nko guhinga ibigori, ibishyimbo, inyanya, intoryi, inkori ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye kugira ngo tubashe kubona umusaruro mwinshi kandi tubashe no kubaho neza turya indyo yuzuye ivangavanze.

Amashyamba adufitiye akamaro gatandukanye m'ubuzima, byacu ni byiza ko tuyasigasira kugira ngo tubashe kubona, byinshi bitandukanye bituruka ku mashyamba ,amashyamba adufasha kubona umuyaga, adufasha kubona inkwi ,adufasha kubona amakara, ndetse n'ibindi bikoresho bigiye bitandukanye nk'intebe, ameza ,ibitanda , ndetse n'utubati.

Abize ibigendanye n'amashyamba, bakomeza basobanura ko ari ingenzi kumenya agaciro k'amashyamba kubera ko dufitiye akamaro kenshi gatandukanye. Twavuga nko kuba aduha umwuka, kuba duha inkwi zo gucana, amakara ndetse akaba akorwamo n'ibintu byinshi bigiye bitandukanye: nk'ameza, intebe, ibitanda ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye. Ni byiza kuko tumenya agaciro k'amashyamba tuyasigasira, kugirango ngo tubashe gukomeza gutera imbere tubifashijwemo n'amashyamba.

Amashyamba ni ingenzi mu buzima bwacu niyo mpamvu tugomba kuyasigasira, amashyamba atanga imvura, amashyamba atanga umuyaga, amashyamba kandi avamo ibintu byinshi bigiye bitandukanye nk'ibikoresho twavuga nk'ameza, intebe ndetse n'ibitanda; ni byiza rero ko tugomba gusigasira amashyamba kubera ko tuyakenera mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Kubungabunga amashyamba n'ingenzi kubera ko amashyamba atugiriye akamaro kenshi gatandukanye, aduha imvura, aduha umuyaga, acumbikira inyamaswa zigiye zitandukanye zidafite aho kuba, dukuramo amakara yo gucana, tugakuramo ibikoresho bitandukanye nk'ameza, intebe ndetse n'ibitanda. Ni byiza ko ishyamba turisigasira kubera ko ridufitiye akamaro kenshi.

Amashyamba ni ingenzi mu buzima bwacu kubera ko adufite akamaro gatandukanye. Amashyamba akurura imvura, amashyamba akurura ba mukerarugendo, amashyamba avamo ibintu byishi bigiye bitandukanye: nk'intebe, ameza, ibitanda, utubati. Ni byiza ko tugomba gusigasira amashyamba yacu tuyarinda icyayahungabanya kubera ko adufitiye akamaro mu gihugu cyacu.

Amashyamba ni ingenzi mu buzima bwacu niyo mpamvu tugomba kuyasigasira tukayarinda icyayahungabanya, amashyamba avamo ibintu byinshi kandi amashyamba adufitiye akamaro kenshi gatandukanye, duhereye ku kamaro amashyamba atanga imvura ndetse akaba atanga n'umuyaga, avamo ibintu bitandukanye nk'ameza intebe ndetse n'ibitanda, ni byiza ko tugomba kuyasigasira kugirango ngo tubashe kuyakuramo ibintu byinshi bigiye bitandukanye dukenera mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Abaturage bakora umwuga w'ubuhinzi basobanura ko ubuhinzi bw'inyanya ari ubuhinzi bugira umusaruro kandi bukaba butanga amafaranga menshi. Ni byiza rero ko tugomba gushishikarizwa guhinga inyanya, kuko zivamo ibintu byinshi bitandukanye, tukaba tunazifashisha mu buzima bwacu bwa buri munsi, igihe turimo dushaka ifunguro ryo kurya.

Igihingwa cy'ipapayi ni igihingwa cyiza kubera ko kidufasha kubona intungamubiri zigikungahayeho, ni byiza ko buri muntu wese agomba kugira igihingwa cy'ipapayi mu rugo kugira ngo abashe kubona vitamine zigikungahayeho, maze tubashe kubana ubuzima bwiza buturutse mu kurya ipapayi.

Abakora umwuga w'ubuhinzi bw'urusenda, basobanura ko ari byiza kuko urusenda rubafasha kubona amafaranga bakeneye mu buzima bwabo bwa buri munsi. Ni byiza ko dukuza igihingwa cy'urusenda, kugira ngo tubashe kwibeshaho tubashe no kwihangira umurimo, bityo tubashe kubona amafaranga tubasha gukoresha mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Abakora ubuhinzi bw'ibijumba basobanura ko igihingwa cy'ibijumba ari igihingwa gitubuka kandi kikaba kigira umusaruro ndetse kikaba kinabahereza amafaranga, basobanura ko ari byiza kubera ko babigurisha igihe byeze bakabona amafaranga bakemuza ibibazo byabo bityo bigatuma babaho neza badasabiriza.

Ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuhinzi gishishikariza abahinzi guhinga ibihingwa bitandukanye; twavuga nk'ubutunguru, karoti, pavulo, insenda, biringanya, inkeri, avoka, imyungu, amapera ndetse n'ibindi byifashishwa kugira ngo ubuzima bwacu bubashe kugenda neza. Ni byiza rero ko tubihinga kugira ngo tubashe kwiteza imbere n'ubuzima bwacu tubashe kubusigasira tuburinda kubura imboga nyinshi zitandukanye.

Ntibikiri ngombwa ko dufata amabasa n'indobo tujya kuvomereera imyaka yacu kuko ko hari ibyuma byabugenewe bikoreshwa mu ivomera ndetse amazi akagera hose muguni zose z'umurima. Ni byiza ko tugomba kumenya iterambere ryacu kugira ngo tubashe kurikoresha bityo imyaaka yacu ibashe kubona amazi neza kandi hose ahagere.

Ntibikiri ngombwa ko dufata ibikoresho bya kinyarwanda, tuvomera imyaka yacu kuko hari ibikoresho bya kizungu byaje nk'imashini zabugenewe mu kuvomera. Ni byiza ko buri umwe wese w'umuhinzi, abasha kumenya iri koranabuhanga ryaje kugira ngo abashe kuvomerera imyaka yiwe bityo ibashe kuzamuka neza. Azabashe kubona umusaruro mwiza kandi umuhesha amafaranga.

Iyo tuvomerera imyaka twifashisha ibikoresho bitandukanye kugira ngo tubashe kugeza amazi ku bihingwa; twavuga nk'indobo ndetse n'ikindi twifashisha turi kuyora amazi kugira ngo tubashe kuyageza ku bihingwa. Ni byiza ko tugomba kuvomerera imyaka yacu kugira ngo ibashe kugira imbuto zitoshye bibashe kuduha umusaruro mwiza kandi bibashe kuduha n'amafaranga menshi kubera ko tuba twabihinze tubikeneye.

Ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuhinzi gishishikariza abahinzi ko ari ingenzi kwita ku bihingwa baba bahinze kugira ngo babashe kubona umusaruro uhagije. Twavuga nko kubaha ifumbire, kubivomerera, kubibagara ndetse no kubigirira isuku iyo ari yo yose kugira ngo babashe kubona umusaruro uhagije bityo ibihingwa byabo bibashe kumera neza ndetse birinde no kuba byagira indwara zitandukanye maze bigapfa.

Nti bikiri ngombwa ko dufata amabasI n'indobo tujya kuvomeremera imyaka yacu kubera ko hari ikoranabuhanga ryaje rikoreshwa mu kuvomera maze amaZI akagera mu mpande zose z'umurima. Ni byiza ko buri muntu wese agomba kumenya Iri koranabuhanga ryaje kugira ngo buri umwe wese abashe kurikoresha bityo imvune zo gufata amabasa'indobo bajya kuvomera zigabanuke.

Ntibikiri ngombwa ko dufata indobo n'amabasa tujya kuvomerara imyaka yacu kubera ko hari ibyuma byabugenewe bikoreshwa mu kuvomera bityo amazi akagera ahantu hose mu nguni z'umurima; ni byiza ko tugomba kumenya rino terambere kugira ngo tubashe kuyikoresha bityo imyaka yacu ibashe kugerwaho n'amazi ahantu aho ari ho hose yaba iherereye.

Ntibikiri ngombwa ko dukoresha indobo n'amabasi igihe turi kuvomerera, kuko hari imashini zabugenewe zigomba gugeza amazi ahantu ariho hose mu inguni z'umurima igihe turi kuvomerera. Ni byiza ko tugomba kumenyamenyera iterambere ryaje kugira ngo tubashe kurikoresha, bityo imyaka yacu ibashe kugira ubuzima bwiza ,ikure neza tunayirinde kuma tuyivomerera neza.

Abahinzi babwirwa ko bitakiri ngombwa gukoresha rozwari bavomera imyaka yabo kubera ko hari imashini yabugenewe ikoreshwa mu kuvomera. Ni byiza rero ko buri wese agomba gutunga imashini igihe ari umuhinzi wemewe, kugira ngo bimworohereze mu kuvomera kandi imyaka ye ibashe kugira ubuzima bwiza, bityo azabashe kubona umusaruro mwinshi kandi umuhereza amafaranga menshi.

Imisozi iba igiye igizwe n'ibiti bigiye bitandukanye harimo n'amashyamba. Ni byiza ko dusigasira ibiti bigiye biri ku misozi kugira ngo tubashe kubibungabunga bityo ubuzima bwabyo bubashe kugenda neza natwe tubashe kubikenera mu buryo bwiza kandi burambuye mu gihe tuba twabisigasiye neza.

Imisozi yuje amashyamba ndetse n'ibyatsi. Ni byiza ko tugomba gutembera imisozi igize u rwanda, kugira ngo tubashe gusobanukirwa u rwanda rwacu uko ruteye. Nbyiza rero ko tugomba gusigasira iyi imisozi iriho amashyamba, kugirango abashe gukurura ba mukerarugendo bityo tubashe no kwinjiza amafaranga agirira igihugu akamaro ndetse n'umuturage.

Imisozi ni ingenzi ku batuye isi kuberaka ikurura ba mukerarugendo tukabasha kubona amafaranga menshi atunga ubuzima bwacu, ni byiza ko tugomba gusigasira imisozi yacu iteyeho amashyamba ndetse n'ayo mashyamba ariho tukayasigasira bityo tukabasha kubona ba mukerarugendo baturutse hirya no hino, baje kureba imisozi itandukanye.

Gutura mu manegeka si byiza kubera ko bishyira ubuzima bw'abahatuye mu kaga. Ni byiza ko dushishikariza abantu batuye mu manegeka kuhava kugira ngo babashe kugira ubuzima bwiza ndetse banirinde impanuka zimwe na zimwe, zaterwa n'uko batuye mu manegeka. Ni byiza rero ko dukomeza kubashishikariza kugira ngo babashe kumva neza ko gutura mu megeka ari bibi, maze bazamuke bajye gutura ku mihanda.

Abakora ubworozi bw'ihene basobanura ko ari ubworozi bwiza kandi bwororoka bukaba bunabaha amafaranga, bakomeza bashishikariza buri muntu wese kuba yashaka itungo yorora by'umwihariko ihene kugira ngo abashe kubona amafaranga igihe ayakeneye bityo akemure ibibazo ibyo ari byo byose yahura na byo mu buzima.

Abakora umwuga w'ubworozi bw'inka basobanura ko inka ari ingenzi kuyorora kuko ivamo ibintu bitandukanye nk'amata ndetse n'inyama, ukaba wanayigurisha ukayikuramo amafaranga wakoresha mu buzima bwa buri munsi uri gukemura ibibazo; ni byiza ko tugomba gusigasira ubuzima bw'amatungo yacu by'umwihariko inka, tuyituza aheza, tuyigaburira ibyiza kugira ibashe gutanga umusaruro mwiza kandi uboneye.

Abakora akazi k'ubworozi bashishikarizwa kwita ku matungo yabo kugira ngo abashe kugira ubuzima bwiza, twavuga nko kuyubakira aho agomba kuba heza, kuyagaburira ibyatsi byiza ndetse no kuyajyana kwa muganga w'amatungo igihe hagaragaweho indwara zitandukanye; ni byiza ko dusigasira ubuzima bw'amatungo yacu kubera ko aduha amafaranga ndetse akaba yanaduha n'inyama zo kurya igihe tubishaka.

Abakora umwuga w'ubworozi bw'inka, basobanura ko ubworozi bw'inka ari ingenzi mu buzima bwabo kubera ko bubafasha mu bintu byinshi bitandukanye mu buzima bwabo bwa buri munsi, basobanura ko ari byiza korora inka kuko ibafasha kubona ifumbire bakoresha igihe bari gutera imyaka ndetse bakanabona amata yo kunywa. Ni byiza ko dukomeza gusigasira ubworozi bw'inka kugira ngo tubashe kubona byinshi bitandukanye mu buzima bwacu biturutse ku bworozi bw'inka.

Ikigo cy'Igihugu gishinzwe ubworozi, gishishikariza abarozi ko ari ingenzi kubakira amatungo yabo maze akaba ahantu heza, kugira ngo ubuzima bw'amatungo yabo bwe gukomeza kugwa mu kaga, ni byiza rero ko tugomba kumva agaciro k'amatungo yacu, kugira ngo tubashe kuyafata neza bityo azabashe kuduha umusaruro mwiza.

Abakora ubworozi bw'amatungo y'inka, bavuga ko ari ingenzi kubera ko bibafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi. Inka zibafasha kubona ifumbire bafumbiza imyaka igihe bari guhinga, zikabafasha kubona amata bakanywa bakamera neza, ndetse bakabona n'amafaranga igihe bazigurishije. Ni byiza ko tugomba gusigasira amatungo y'inka kugira ngo tubashe kubaho neza, tubashe no kuba twakemura ibibazo bigiye bitandukanye.

Abakora ubworozi bw'amatungo y'inka basobanura ko ari byiza korora inka kubera ko ari ingenzi mu buzima bwa buri munsi, inka zibafasha kubona amata yo kunywa, zikabafasha kubona ifumbire bakoresha igihe bari guhinga; ni byiza ko buri muntu wese agomba gushaka itungo yorora kugira abashe kubona ifumbire yo gufumbiza imyaka maze ibashe kwera.

Abakora ubworozi bw'inka bavuga ko ari ingenzi kubera ko bibafasha mu buryo bugiye butandukanye, nko kubona ifumbire bafumbiza imyaka igihe bari guhinga, kubona amata, kubona amafaranga igihe bazigurishije ndetse no kurya inyama igihe bazikeneye, bakomeza bashishikariza abaturage ko ari ingenzi korora amatungo y'inka kugira ngo nabo babashe kubona byinshi bitandukanye biturutse ku musaruro wo korora inka.

Abakora ubworozi bw'inkwavu bavuga ko ari byiza ko yaka bibafasha kubaho mu buzima bwabo bwa buri munsi, bakomeza basobanura ko ari byiza kuko bazifata bakazigurisha bakabona amafaranga, maze bagakemura ibibazo byabo bya buri munsi, ndetse n'igihe bakeneye kurya inyama bakazirya batiriwe bajya ku isoko, ni byiza ko buri muturarwanda wese ashaka itungo yorora, kugira ngo igihe ahuye n'ikibazo abashe kurigurisha, ndetse n'igihe ashaka kurya inyama abashe kuba yazirya.

Abakora umwuga w'ubworozi, bashishikarizwa kwita ku matungo yabo bayagaburira neza ndetse banayubakira aho agomba kurira hafite isuku kugira ngo, babashe kuyarinda indwara zitandukanye ziterwa no kurira ahantu hatari heza. Ni byiza ko amatungo yacu tugomba kuyagirira isuku ndetse tukanayitaho n'igihe arwaye tukayashakira abavuzi babizobereyemo, kugira ngo babashe kuduha ubuvuzi bw'ibanze amatungo yacu abashe gukira.

Ubworozi bw'inkoko ni ubworozi butanga umusaruro mu buryo butandukanye: ushobora kuyigurisha ukabonamo amafaranga, ukagurisha igi yateye ukabona amafaranga ndetse ukaba wanayirya. Ni byiza ko tugomba guharanira ubuzima bw'inkoko zacu kugira ngo zibashe kugira ubuzima bwiza kuko natwe zidufasha mu buzima bwa buri munsi.

Ikigo cy'igihugu gishinzwe ubworozi gishishikariza aborozi ko ari byiza kugirira amatungo yabo isuku kugira ngo abashe kugira ubuzima bwiza maze bayarinde n'indwara zitandukanye ziterwa n'umwanda, ni byiza ko abashinzwe ubworozi bakuru begera abatoya kugira ngo bashe kubaho inama zigiye zitandukanye bityo babashe kugirira amatungo yabo babashe kugira ubuzima bwiza.

Ubworozi bw'inkoko bugira umusaruro utandukanye ndetse n'akamaro gatandukanye mu buzima bwa muntu, inkoko ushobora kuyigurisha ukayikuramo amafaranga, ushobora kugurisha amagi yateye ndetse umuntu akaba ashobora no kuba yayirya, ni byiza rero ko tugomba korora inkoko kugira ngo tubashe kubona amafaranga atubeshaho mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Umucuruzi ukora ubucuruzi bw'ibiryo by'amatungo, bizwi nka sondori birirwa n'amatungo agiye atandukanye, arimo ingurube, inkoko, ndetse n'inka, asobanura ko ari ingenzi gukora kano kazi, kubera ko ari byiza kuko bimuhereza amafaranga akeneye mu buzima bwe bwa buri munsi. Ni byiza ko tugomba kwihangira imirimo, kugira ngo tubashe kubona amafaranga dukoresha mu buzima bwa buri munsi, tubashe no gukemura ibibazo bigiye bitandukanye, bigomba amafaranga.

Abakora umwuga w'ubuhinzi bw'ibishyimbo, basobanura ko guhinga ibishyimbo ari byiza kandi ari ingenzi mu buzima, kuko tubyifashisha mu buzima bwacu bwa buri munsi igihe tugomba kubibona ku ifunguro, biba ari byiza rero ko tugomba guharanira kubihinga kugira ngo tubashe kubibona uko tubikeneye.

Abakora umwuga w'ubuhinzi bw'ibishyimbo, bavuga ko ibishyimbo ari ingenzi mu buzima kuko babikenera barya kugira ngo bitunganwe rero bakoresha ibikoresho bitandukanye kugira ngo bivemo umwanda. Twavuga: nk'urutaro bakoresha bagosora kugira ngo bavanemo umwanda bityo tubashe kubibona bifite isuku. Ni byiza ko tugomba kugirira imyaka yacu isuku kugira ngo natwe tuyirya, tubashe kugira ubuzima bwiza.

Si bikiri ngombwa ko dufata ibigori ngo tubihunguze intoki kubera ko hari imashini yabugenewe igomba kubikora, ni byiza ko dushishikariza buri muhinzi wese uhinga ibigori akagomba kumenya iyi mashini yaje kugira abashe kuyifashisha bityo bimworohere mu buzima bw'iwe bwo kuba yahinga ibigori, akabihinga yumva nta kibazo bitazamuvuna mu ihungurwa ryaryo.

Abahanga mu bigendanye n'ubuvuzi bw'amatungo basobanurira abaturage ko ari byiza kubagana kugira ngo babashe gusobanurirwa byinshi bitandukanye bigendanye n'amatungo bababoroye. Ni byiza ko tugomba kubagana kugira ngo baduhe ubuvuzi bw'ibanze, bwerekeranye n'amatungo yacu ndetse n'inama zigiye zitandukanye n'imiti twakwifashishije igihe amatungo yacu yaba yarwaye.

Abakora umwuga w'ubuvuzi bw'amatungo bazwi nk'aba veterineri. Basobanurira abaturage ko ari ingenzi kubagana kugira ngo babashe kubasobanurira byinshi bitandukanye byerekeranye n'amatungo yabo. Ni byiza ko igihe itungo ryacu ryagize ikibazo tugomba kwegera aba bahanga bagendanye n'ubuvuzi bw'amatungo kugira ngo babashe kudusobanurira bityo amatungo yacu tubashe kuyakurikirana akomeze kugira ubuzima bwiza.

Abakora ubworozi bw'inka basobanurirwa ko ari ingenzi kugana inzobere mu bigendanye n'ubuvuzi bw'amatongo, ni byiza ko twebwe aborozi b'inka tugomba gukurikirana ubuzima bw'amatungo yacu, kugira ngo tubashe kumenya aho zihagaze bityo zitadupfana kandi zari zidufitiye akamaro kenshi kandi gahambaye.

Abashinzwe ubuvuzi bw'amatungo bashishikarizwa kwegera abaturage boroye kugira ngo babashe kubaha inama zitandukanye, ku bworozi bwabo. Ni byiza ko umuturage igihe abonye inka yiwe cyangwa se itungo ryiwe rifite uburwayi, ari byiza kwegera ababishinzwe kugira ngo babashe kumuha imiti itandukanye maze ubuzima bw'itungo ryiwe bubashe kugenda neza.

Ikigo cy'igihugu gishinzwe ubworozi, gishishikariza inzobere ko ari byiza kwegera aborozi kugira ngo babashe kubasobanurira byinshi bitandukanye byerekeranye n'ubworozi bwabo. ni byiza rero ko bagomba kubegera, kugira ngo babashe kubafasha babahe inama zigiye zitandukanye, bityo amatungo ya bo abashe kugira ubuzima bwiza.

Inzobere mu buvuzi bw'amatungo basobanurira aborozi ko ari ingenzi gukurikirana ubuzima bw'amatungo yabo kugira ngo birinde ko bahomba mu gihe amatungo yabo yarwaye bakayaviramo intandaro yo gupfa, ni byiza ko tugomba kugana abaveterineri mu bigendanye n'amatungo kugira ngo babashe kudusobanurira byinshi bitandukanye bityo turokore ubuzima bw'amatungo yacu.

Mu bigo bitanga serivisi z'ubuzima mu cyumba umurwayi arwariramo, habamo ibikoresho bitandukanye byifashishwa kugira ngo babashe kwita kuri uwo murwayi. Twavuga nk'igitanda aba aryamyeh, imiti bamuha igihe bamaze kumusuzuma ndetse n'ibikoresho bitandukanye byifashishwa igihe bari kumusuzuma. Ni byiza ko tugomba gukurikirana ubuzima bw'abarwayi bacu kugira ngo babashe gukira bityo ubuzima bwabo bubashe kugenda neza.